Inzu z'ubucuruzi zegereye abaturage harimo nk'amabutike zibafasha guhaha ibyo bakeneraga byose mu buzima bwabo bwa buri munsi, batarinze kujya ku masoko kuko bibagora cyane iyo barinze kujya ku ma isoko, bityo rero bakagira ubuzima bwiza buzira umuze.